Umugabo w'inzobe wambaye amarinete uhagaze imbere y'umuryango ndetse n'itangazo rigira riti HPV vaccine access and cervical cancer policymaking process in Ghana, Rwanda, and Canada.

Ku munsi w'igicamunsi, aho abana batoya, urubyiruko, abasaza n'abakecuru bateraniye ahantu hamwe, bamwe bicaye ku rubaraza, abandi bahagaze, basa nkaho bose bategereje serivisi imwe.